Abantu basa nkaho barohamye mu mazi barimo gupomba mu gatuza kugira ngo baruke. Uyu mugabo uri hejuru bisa nkaho ari umuganga. Arimo kubaha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo babanze kugarura cyangwa umutima wongereye gutera bisanzwe.

Umugabo umwe wambaye umupira w'umweru, n'umugore umwe wambaye umupira w'umweru, bisa nkaho arimo gufungurira umugabo ngo yoge, amazi meza n'isabune, hiryaye hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya, umudamu wambaye ibimuranga mu ijosi, kugira ngo bigishe kandi ibintu byumvikane.

Ni agakarito kazana amaraso kwa muganga mu gihe haba hari abarwayi b'indembe bakenewe kwitabwaho mu gihe bakeneye kongerwa amaraso mu mubiri aka ni ko kayazana gafite n'umutaka hejuru kugira ngo kamanuke ku kirere nta nkomyi gafite.

Ndabona ari ahantu kwa muganga ababyeyi bafite abana baje gukingiza cyangwa guhabwa imiti nyongeramubiri, ndabona ari ari imiti y'inzoka barimo baraha umwana, hari umugore w'umuganga urimo urayimuha, umubyeyi afite umwana we mu ntoki yaje guhabwa imiti.

Abantu benshi bakora mu bikorwa by'ubuvuzi, mu ndwara zandura, bambaye umwambaro w'umweru upfutse ahantu hose, hasi bambaye amabote, hari abandi batatu barimo gukoropa, kugira ngo birinde ibyabanduza, kandi bite no kuhabona serivisi.

Abantu benshi, hari umugore umwe urimo gusohoka mu cyumba mu inzu y'ibara ry'umuhondo n'umweru, birasa nkaho aje kwa muganga yambaye itaburiya asa nkaho ari umujyanama cyangwa umuganga baba baje kwivuza.

Abantu benshi, basa nkaho, baje kwa muganga, bari mu nzu, irimo amabara y'umweru n'umuhondo, bategereje umuganga, uza kubavura arimo arasoka mu murya mu muryango, aje kubwira uko gahunda zimeze.

Umugabo umwe, umwe yahagaze, undi yicaye, asa nk'aho arimo aramukura iryinyo, umugabo wambaye imyenda y'amashashi, undi yambaye ishati bisa nk'aho arimo kumuvura mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa bwa kijyambere, kugira ngo yoroherwe.

Ndabona muganga umwe kumwe n'umugore, bisa nkaho arimo aramufata umuvuduko w'amaraso, kugira ngo amurebe uko ahagaze, cyangwa akaba yaje kwivuza izindi ndwara ariko bigaragara ko ari kwa muganga.

Ni indege ya Droni zimwe mu zikoreshwa kujyana amaraso ku bigo nderabuzima cyangwa ku bitaro byabugenewe. Hari abarwayi bakeneye amaraso, ubona ko hari igishashi kirimo kiramanuka kiri mu mutaka. Harimo amaraso ajyanwa kuri ibyo bitaro.

Igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi cyababereye mu muhanda cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubona ko hari abagabo n'abagore bafashe icyapa cyerekana ko ari ku nshuro ya mirongo itatu, byitabiriwe n'abantu benshi kandi urabibona biragaragara.

Abagabo benshi barimo abirabura batatu, umwe w' umuzungu basa nkaho ari abaganga bakora akazi ko kwita ku barwayi barwaye kugira ngo babashe koroherwa.

Ndabona umugabo wambaye ijiri y'umweru, itaburiya n'agapfukamunwa, bisa nkaho arimo ararebera muri mikorosikopi, bigaragara ko nkaho akora kwa muganga muri laboratwari itunganya amaraso cyangwa ibindi bintu bitandukanye.

Abantu benshi. Ku murongo w'imbere hari abagabo batatu n'umugore umwe n'abandi bari inyuma, barimo guturuka, mu nzu isakawe n'ibati ry'ubururu, hafatiwe amazi mu kigega gisa umukara, bisa nkaho barimo kuva mu kazi, bataha mu ngo.

Icyapa cya isange, ushobora kwitabaza mu gihe wahohotewe; hari n'icyapa cya Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'uburezi, yunicefu kugira ngo babashe gutanga amakuru mu buryo bwizewe.

Ni abantu benshi basa nkaho bakoze uruziga bari mu itsinda, bafite ingingo imwe baganiraho kandi bahuriyeho ku buryo buri wese ari butange impamvu arayisobanura.

Abantu benshi bambaye umwambaro w'umweru,' inyuma yaho hari ibitambaro by'icyatsi, bisa nk'aho ari kwa muganga kuko bambaye ibipimo byu'muntu mu ijosi, kugirango barebe uko umuntu ahagaze.

Ndimo ndabona inzu nyinshi zifite ibara ry'umweru, hariho hejuru icyapa cya Hapiness Pharmacy Ltd, cyerekana nkaho hari icururizwaga imiti, kugira ngo borohereze abadafite ibyangombwa byo kujya kwivuza mu gihe barwaye.

Ni inzu iri mu ibara ry'umweru yubatse bukonoshi bigaragare nk'aho ari inzu icururizwamo imiti cyangwa yifashishwa ubuvuzi mu buryo bworoshye kugira ngo abantu boroherezwe.

Ndimo ndabona abagabo babiri n'umukobwa umwe harimo umuhungu umwe wambaye ingofero, bambaye ama t-shirt y'imyeru mu umugongo handitsemo "one health" bigaragare nkaho ari ibintu by'ubuvuzi byaba byamamarijwe cyangwa bavuriye aho hantu kugira ngo begereze abaturage.

Ni abantu benshi harimo inzego za polisi y'u rwanda, igisirikare cy'u rwanda, abayobozi batandukanye bari mu kumena bimwe mu bishashi, birangwa n' ibiyobyabwenge, kandi babikumira kugira ngo bitazaba intandaro ya buri wese.

Umuntu ufite ukuguru bisa nkaho afite ikibazo mu mitsi ye, yerekana ko hakenewe kuvurwa kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza n'akazi ke gakomeza.

Ni ibibabi by'inturusu bijya gutunganywamo imiti kugira abarwayi babashe kuyigezwaho cyangwa abakeneye amakara ku barwayi b'ibifu babashe gukira mu buryo bwizewe kandi byatunganywe n'inganda.

Ndimo ndabona abagabo icyenda, bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara, ry'ubururu, hari icyapa, cya Herifu positi, bivuze ko ari ivuriro rito ryegerejwe abaturage.

Umuganga umwe w'umugabo n'umudamu ukenyeye ibitenge byiza, usa nkaho aje kumwaka serivisi, muganga agiye kumuha ibinini byo kwifashisha, mu gihe ategereje ubundi bufasha.